Aha hantu ndabona hakorerwa imirimo y'uburobyi buteye imbere, bakoresha rwose indobani ya kijyambere, harimo amafi akuze ubona ko babanje gutegereza akabanza agakura, akaba ari ibintu bakora rwose mu buryo bwa kijyambere.

Ndabona aha ngaha inka z'inyambo za kera ziri mu rupangu, ziri kumwe n'umuveterineri yaje kuzikingira, ari kumwe n'aborozi, inka zigaragara ko zibayeho neza ziri ahantu mu rupangu rwubatse mu rwuri, inka zishishe rwose zimeze neza, ahantu baracyorora inka za kera ariko bakazitaho mu buryo bwiza.